Abaganga, abakuru, abaforomo ndetse n'abandi bakaba bari ku bitaro by'ikigo nderabuzima cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse ahatambuka abantu bahasakaje amabati.

Itsinda ry'abaganga b'inzobere bakaba barangije amahugurwa bambaye impuzankano y'amataburiya y'umweru harimo abagabo ndetse n'abagore hagati muri bo harimo umuzungukazi wambaye umwenda utukura.

Mu bice by'icyaro usanga harashyizweho amavomo yihariye mu gihe hari ahataragera robine ariko leta yagiye yubaka uburyo bwo gukura amazi mu butaka. Aha hari abagore batatu baje kuvoma bifashishije ipompo.

Abana bato bari ku ishuri mu gihe cyo kuruhuka no gukina baje gusoma ku mazi. Bari kubikora mu buryo bunyuranye kuko bari gutegaho ibiganza kandi hari n'igihe usanga batakarabye.

Akana gatoya umubyeyi wako wambaye umwenda w'icyatsi yiteze igitambaro mu mutwe aragakikiye, yagashyiriye umuganga w'inzobere kugira ngo agasuzume amenye indwara gafite, bagiye kukasamura ngo barebe mu kanwa.

Ku kigo nderabuzima abantu babyukiye kwaka serivisi, hari ameza y'urubaho yicaweho n'abaganga babiri, umwe afite urupapuro mu kuboko kw'imoso ukundi kuri kuri mudasobwa, hirya ye hari uwambaye umwenda w'ubururu n'agapfukamunwa.

Abana batandukanye bambaye impuzankano y'ishuri bagiye ku ivomo gushakisha amazi, bamwe bafite indobo z'imihondo bari gukaraba mu ntoki ari nako bavoma.

Abana batoya bagejeje amezi nk'atandatu cyangwa umwaka, usanga hari inkingo zateganyijwe ko babatera mu rwego rwo kugira ngo mu mikurire yabo batazagerwaho n'ingaruka ziterwa n'izo ndwara.

Icyanya kigiye gifite ibiziga, biragaragara ko uru ari uruganda, rushobora kuba rutunganya ibijyanye n'amazi. Ni ngombwa ko mbere y'uko agera mu baturage, aca ahantu agasukurwa.

Abantu b'ingeri zitandukanye, biganjemo ab'igitsina gore kuko hagaragaramo abagabo bakeya, abenshi muri bo bambaye imipira y'umweru, harimo n'abambaye iy'umukara.

Umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda witwa Isirayeli Mbonyi aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Akaba yaje mu gikorwa cy'urukundo cyo gufasha abatishoboye abaha amata.

Umuganga w'umukobwa wambaye uturindantoki, akaba afite igikoresho abaganga b'inzobere bifashisha mu kumva uko ubuzima bw'umuntu buhagaze, yagishyize ku mwana mutoya w'umuhungu, ari kumusuzuma.

Icyumba kiri kuberamo inama, harimo abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore bari kugaragara inyuma, ku meza hari amazi yo kunywa ndetse n'udupapuro tugaragaza buri muntu icyo ahagarariye.

Mu giturage hari abantu baje ku mugezi, hari amajerekani menshi ndetse n'amabase, abakobwa babiri bafashe ku cyuma aho bari gupompa amazi, hari umudamu ufite akana gatoya.

Inshinge nk'izi ngizi ahanini zikunze kuba zirimo inkingo. Hari ukuntu ugira gutya ugasanga icyorezo giteye nk'ahantu runaka, urugero nka Kovide yibasiye isi muri rusange. Byabaye ngombwa ko hifashishwa inkingo mu rwego rwo kuyihashya.

Icyanya kinini cy'ahariwe gutunganya amazi, mu rwego rwo kugira ngo abaturage bose b'igihugu babashe kugerwaho n'amazi meza, iruhande rwacyo hari ubusitani buteyemo ibyatsi no hirya hari amazu.

Icyumba kirimo abantu benshi bari mu nama, bicaye ku mpande ebyiri, hirya yabo hari insakazamashusho itari kwaka, buri wese ku meza hateretse amazi aribuze kunywa, bakaba bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima.

Icyapa kiri mu ishusho y'umweru kigaragaza amajyaruguru ya Karolina aha ni mu gihugu cy'Amerika, uyu akaba ari umushinga ushinzwe guteza imbere ibijyanye n'ubuvuzi, babikora hirya no hino ku isi.

Umubyeyi wambaye umupira w'icyatsi yateze igitambaro cy'umuhondo mu mutwe, ari gupompa amazi aho umwana yateze ijerekani akaba yambaye agapira k'umutuku ndetse n'ibirenge n'ipantaro izinze.

Ihuriro ry'abantu benshi barangije inama, bakaba bambaye amakositimu abagabo, harimo abazungu ndetse n'abirabura, harimo n'abadamu. Inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu.

Ihuriro ry'ibikomerezwa bihagaze bikaba byiganjemo abazungu, abirabura, abagore ndetse n'abagabo, bari bari mu nama nyunguranabitekerezo yiga ku iterambere ry'igihugu, iruhande rwabo hari ibendera.

Icyapa kigaragaraho imiryango mpuzamahanga ishinzwe gukora ibintu bitandukanye, harimo umwe witwa UNICEF, uyu nguyu wiyemeje kurengera abana ndetse n'ababyeyi babo.

Amazi meza ni ingenzi kuko ari isoko y'ubuzima, abana bateze indobo bafungura robine, hakaba harimo umutoya wambaye umupira w'icyatsi n'imirongo y'umweru n'undi w'umupira w'ubururu.

Icyumba kiberamo inama, kirimo abazungu babiri b'abagore, ndetse n'abagabo batatu, b'abirabura, ku meza hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, amakaramu ndetse n'ibitabo.

Uruganda rutunganya amazi, mu rwego rwo kugira ngo abaturage bose bagerweho n'amazi kandi meza, leta yagiye ishyiraho inganda mu bice bitandukanye by'igihugu zishinzwe gutunganya ndetse no kugeza amazi meza ku baturage.

Icyumba kiri kuberamo amahugurwa agamije gutanga ubuvuzi bw'ibanze binyuze mu bajyanama b'ubuzima, hagati hari umugabo uri gutanga ayo mahugurwa uri gucamo yigisha abantu, imyanya yabaye mike ku buryo hari abahagaze inyuma.

Ibiganza bibiri bitagaragara nyirabyo, hagaragara agace gatoya k'umwenda bikaba biteze ku itiyoro iri kurekura amazi asuma menshi aho nyirabyo ari gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda umwanda.

Abaturage muri rusange bagiye bashyirirwaho amavomo ariyo yiswe ubudehe, hari umwana w'umukobwa ufite igitenge ku rutugu waje kuvoma, afite amajerekani ma abiri manini ariko ashobora kuba atayabasha.

Iyo hari icyorezo cyateye isi, ni ngombwa ko abantu bose bihutira gufata urukingo, aha hari umuganga wambaye uturindantoki, ufite urushinge, hari umuntu utagaragara neza, wazamuye umupira, bari gutera ku kaboko urushinge.

Nkurunziza ari kugenda mu isoko ahuye na Ndayambaje, ntago baherukanaga barabanje barahoberana nuko umwe atangira kubarira undi inkuru, ntago bari bwicare kuko bose bihutaga.

Mu gihugu cy'Amerika, hagiye hari ama leta menshi atandukanye, niko yose aba afite ibigo bitera inkunga mu byiciro bijyanye n'ubuzima hirya no hino ku isi, nk'iki ngiki cya Jewolojiya.

Umukobwa uri gupompa amazi ku ivomo ryegerejwe abaturage ryahawe abo mu cyaro kugira ngo bajye babone amazi meza, hari utwana duto ari gufasha kuvoma ayo mazi.

Itsinda ry'abaganga, barangije inama, aha ngaha baganiraga ku kibazo cy'abangavu baterwa inda zitateganyijwe, hari kwibazwa nimba bazajya babarinda kugira ngo badatwita imburagihe.

Umukobwa uri ku ivomo afite ijerekani ikoze mu ruziga, ari kuyiterura kugirango amazi abashe kujyamo neza atamenetse, i ruhande rwe hari akana kegamye ku gikuta kambaye umupira utukura.

Ababyeyi bo mu ngeri zitandukanye, babyukiye ku kigo nderabuzima bazanye n'impinja zabo kugira ngo bazisuzume banazipime mu rwego rwo gukurikirana ubuzima bwazo kugira ngo zizakure neza.

Abana bato usanga hari ibikorwa bakora nyamara bakabikora mu buryo butanoze uyu nguyu ari kunywa amazi yifashishije ibiganza bye ntabwo wamenya ni yabanje gusukura intoki cyangwa se anyweye yanduye.

Mu rwego rwo kwita ku bana bamwe na bamwe baba batishoboye, hari imiryango mpuzamahanga igira gutya ikabasura aho bateraniye maze bakabaha ibiribwa ndetse n'ibinyobwa kugira ngo nabo bitabweho.

Abantu bicaye bari gutanga ikiganiro, bakaba bari imbere y'imbaga, harimo abagore batatu barimo umuzungu umwe ndetse n'abagabo batatu bose bambaye amakoti.

Icyumba gikoraniyemo abantu benshi, bakaba bari kwiga ku bibazo bitandukanye bishobora kugirira abaturage bayobora akamaro, imbere hicaye abantu bagera kuri batandatu bakaba bari gutanga ikiganiro.

Abana bari ku ishuri mu gihe cy'akaruhuko iyo bagiye gukina haba harashyizweho amavomo bagomba kwifashisha banywa amazi, bambaye impuzankano y'utwenda twa karokaro turimo uturongo tw'ubururu, bose bafite udukombe twa palasitike, utwo tuntu duteretse ku meza bakaba bari kuvoma amazi bari kubyigana.

Abana batatu toya, bambaye umwe umupira w'umweru yakenyeye agapira n'akagofero, iruhande rwe hari umubyeyi wambaye umupira utukura, bari ku ivomo ryegerejwe abaturage.

Inzu nini ifite igisenge cy'umutuku, ikaba isize amarangi y'umweru. Imbere yayo hari utwuma tw'ubururu, aha ngaha ni mu cyanya cyahariwe gutunganya amazi, bamara kuyameza neza bakayasakaza mu baturage.

Urujya n'uruza rw'abana baje gushaka amazi, mu bice bitandukanye by'icyaro hagiye hashyirwaho uburyo bwo kugeza amazi meza ku baturage kuko ari yo soko y'ubuzima.

Isuku ni umuco mwiza dukwiye gutoza abakibyiruka kugira ngo bazawukurane. Uyu muntu ufite ijagi y'icyatsi ikiganza cye kiri kugaragara asukira umwana muto amazi yo gukaraba ndetse n'isabune.

Ibikorwa by'urukundo ni byiza, kuko abatifite tuba tugomba kubaremera tukabaha ibyo kurya n'ibyo kunywa, hari abana bambaye impuzankano bari kwitabwaho n'imiryango yabasuye.

Abana bakiri bato biba ari ngombwa ko tubitaho kugira ngo ubuzima bwabo buzarusheho kugenda neza uko bakura. Aha hari abambaye impuzankano y'ubururu, bicaye ku mikeka, barambije, bari kuganira n'abazungu.

Abari n'abategarugori bibumbiye mu ishyirahamwe mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bateza imbere bagenzi babo, barahagaze harimo abambaye amajire y'icyatsi, abakenyeye ibitenge biri mu mabara atandukanye.

Umukobwa yagiye kwa muganga kugira ngo bamusuzume bamenye uko ahagaze, yambaye agapira k'umuhondo, hafashwe igipimo kigerageza kureba uko umuvuduko n'umutima by'umuntu bihagaze nicyo bamushyizeho.

Umubyeyi wicaye hagati mu bana benshi, urabona ko hari ibyo barangariye, bose barimo baraseka barishimye hari umwana wambaye agapira k'ubururu ndetse n'abandi bambaye iy'umutuku.

Mu cyumba kiri kuberamo inama harimo abantu b'ingeri nyinshi batandukanye, uruhande rumwe ruriho abagore babiri batari kugaragara, ariko bose barareba imbere yabo hari ibyo bamuritse ku rukuta bifashishije ikoranabuhanga.

Umuganga w'inzobere yatemberereye abaturage kugira ngo abasobanurire byimbitse uko bakwifata mu rwego rwo kwirinda indwara zandura n'izitandura, iki ni igikorwa leta iba yarateganyije kugira ngo abaturage basobanukirwe.

Ahari gutangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari umubyeyi wazanye akana ke, kugira ngo bagafate ibipimo bamenye nimba ubuzima bwako buri kugenda neza, bari gupima umubyimba w'akaboko k'uwo mwana.

Ikoraniro ry'abazungu bari gukora inama, bakaba bagize umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita, ndetse no kurengera abana, nk'uko icyapa cy'ubururu kiri iruhande rwabo kibyerekana.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru bigaragara ko yaje mu modoka iparitse hirya hari amashyamba ndetse n'ibiti hakaba hari imirima ari kuvomera abana baje kwivomo.

Umubyeyi wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'umweru, n'igitambaro mu mutwe, akikiye agahinja gato, yaje kumujyanama w'ubuzima ngo akamusuzumire.

Icyapa cy'ubururu cy'umuryango mpuzamahanga w'abibumbye, ishami rishinzwe kurengera no kwita ku bana. Hariho amagambo agira ati:" Ku bwa buri mwana wese tugomba kubikora."

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, abakobwa isa, abahungu bagiye bambaye imipira itari iy'ishuri, bari ku kigega, bari kuvoma amazi yo kunywa.

Ikoraniro ry'abantu benshi baje kwaka serivisi z'ubuzima, hari imiryango itabara imbabare ndetse n'abaganga b'inzobere, bavura ubuzima bujyanye no mu kanwa, benshi bambaye impunzankano z'imipira y'umweru.

Abasore n'inkumi basoje amahugurwa y'ubuvuzi, bakaba bishimye baseka hari, icyiciro kimwe cyambaye amataburiya y'umweru abaranga, ndetse n'abandi batayambaye.

Umunsi mpuzamahanga wo gutaha ku mugaragaro uburyo abana bagomba kwitabwaho cyane cyane abakiri bato, hari abari gukina ikinamico barimo abakobwa batatu n'umuhungu umwe.

Umwana muto w'umukobwa ari ku ivomero aho abanje koza indobo. Yambaye agakanzu k'umweru karimo utudomo tw'umukara, afite indobo mu ntoki n'indi iteretse imbere ye, ari iruhande rw'ivomo bifashisha bapompa.

Icyumba kirimo abantu benshi bitabiriye inama, hari umugore wambaye ikanzu ikoze mu gitenge y'ibara ry'icyatsi, harimo abirabura ndetse n'abazungu.

Itsinda ry'abaganga b'inzobere bageze ku kazi ari mu gitondo, babanza kureba amadosiye y'abarwayi bazindutse baje kwivuza, buri umwe bagenda bamwuzuriza ibisabwa mu gitabo. Ni batatu bicaye mu cyumba.

Icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, cy'umuryango mpuzamahanga w'abibumbye, ishami rishinzwe kwita no kurengera ku bana, aricyo cyitwa Unicef.

Mu bice by'icyaro usanga harashyizweho uburyo bwihariye bwo kubona amazi y'ubuntu, aho hagiye hakoreshwa uburyo bwo gukura amazi mu butaka abantu bagakoresha umupompo bakavoma amazi meza.

Abana batoya bari guseka bose bakaba baratojwe umuco mwiza wo gukaraba intoki kuko ari isuku bituma utagira indwara zituruka ku mwanda, ni batatu barimo koga intoki.

Umugabo wambaye ikote ndetse na karuvati y’icyatsi, ari hamwe n’umudamu wambaye ikanzu y’umweru, irimo uturabyo dutukura. Impande yabo hagiye hariho ibyapa, harimo kimwe kiriho umudamu uteruye umwana.

Ikigo Mpuzamahanga kita kurengera ndetse no kwita ku bana, kiri kugaragaza abana babiri, umwe ari gukarabya mugenzi we wambaye agashati gatukura, akaba yazinze amaboko ari kumwenyura, baragira bati '' kubwa buri mwana wese''.

Mu cyumba kiberamo inama, hakoraniyemo abirabura n'abazungu, bakaba bari kuganira ku bishobora gutuma abaturage batera imbere, hari udutase twanywerewemo icyayi turi ku meza.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, ari ku kigega afungura amazi mu gikombe yo kunywa. Aya mazi yo mu bigega ahanini usanga hari utwanda turimo ntabwo ari byiza gupfa kuyanywa.

Abantu bicaye hamwe harimo abagabo, abagore, bari kwiga ku kintu runaka, bicaye mu cyumba kiberamo inama bafite ibipapuro binini byanditseho biragaragara ko bari kwiga ku kintu kimwe bose.

Umubyeyi uri ku bise aho akuriwe aryamye ku gatanda, hari abaforomokazi ndetse n'umurwaza we bari kumwitaho, umuganga hari akantu kabugenewe yashyize ku nda ye kugira ngo yumve uko umwana ari gutera mu nda.

Abana benshi batoya b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umuhondo barishimye urabona ko bari gupepera, bari ku muryango ufite igipangu cy'ubururu ndetse nyuma y'abo hari abantu bakuru barimo abagore, abazungu ndetse n'abagabo.

Na abantu bane bicaye harimo umwana umwe w'umuhungu wambaye umupira w'icyatsi, iruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'umutuku n'agasenge k'umweru, n'undi usa nkuwabateye umugongo wambaye agashati k'umukara, hari upfutse mu gahanga wambaye iby'ubururu.

Abiganjemo abakobwa, abasore n'inkumi barahagaze bose bafunze igipfunsi bari kugaragaza ko icyo bari barimo bakigezeho bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru.

Hirya no hino mu bice by'icyaro, usanga hari abaturage bagifite imyumvire iri hasi, bakaba baregerejwe amazi meza, nyamara ugasanga bashoka mu kabande, bakajya kudaha ayo mu gishanga, kandi aya ngaya ashobora kwangiza ubuzima bwabo.

Iyo abantu bari gukora ubukangurambaga butandukanye bifashisha ibipapuro bakagenda babikwirakwiza mu baturage, nk'uko uyu mudamu wambaye akajire k'umukara, umupira w'ubururu ndetse n'isakoshi ari kugenda abikora.

Ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima, hari igihe biba ngombwa ko bwegerezwa abaturage, hari umugabo wambaye akajire k'umukara n'umupira w'umutuku, akaba yagiye gukora ubukangurambaga mu giturage, aho hari abana bari kureba ibyo ari kwerekana ndetse n'abantu bakuru.

Imbonerahamwe igaragaza uburyo ki igipimo cy'abantu bagiye biyahura mu Rwanda, byagiye bigabanuka aho mu w'ibihumbi bibiri bavuye kuri cumi na bane, muri bibiri na cumi n'umunani bakagera ku bantu babiri gusa.

Abagabo n'abagore bari bari mu nama, bamaze kuganira ku bintu byinshi bishobora guteza imbere, umuryango nyarwanda muri rusange, iyo bigenze bityo rero, biba ngombwa ko bafata ifoto y'urwibutso, kugira ngo bazahore babizirikana.

Umugabo ufite ubwanwa bwamwewereyeho utamenya ibara ryabwo ndetse n'umusatsi uzingazinze, yambaye agashati k'umukara kacuye gasa nabi ashobora kuba akeneye kwitabwaho.

Hirya no hino ku isi usanga harashyizweho ibigo bishinzwe kwita ku bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ni ngombwa rero ko abo bantu aho tubafite mu miryango tubitaho tukabohereza muri ibi bigo kuko ari byo bibitaho neza.

Icyapa kiri mu mabara atandukanye harimo ubururu, umweru ndetse n'umutuku werurutse, kiragaragaza uburyo ki mu Rwanda tugomba kwita ku buzima bw'uburwayi bwo mu mutwe.

Umukecuru wishimye, akaba ari kumwenyura afite inyinya yo hasi, ndetse n'iyo hejuru akaba yakenyeye igitenge cy'amabara atandukanye ndetse n'igitambaro mu mutwe.

Mu cyumba kiri kuberamo inama abenshi baricaye imbere yabo hagiye hari uducupa tw'amazi harimo abagabo n'abagore hari umwe ufashe indangururamajwi akaba ari gutanga igitekerezo cye.

Ihuriro ry'abayobozi biganjemo abategarugori bakaba bahuriye mu cyumba kiberamo inama. Hari umudamu uri imbere wambaye ishati y'umweru ufite ikaramu y'ubururu mu ntoki.

Abana bababaye ubona ko rwose agahinda kabishe, barimo baratabaza bareba ko hari uwabaha ubufasha, biragaragara ko aba bari mu gihugu cyibasiwe n'intambara, bakaba ari impunzi.

Umwana mutoya wiga mu ishuri ry'incuke afite biswi ari kuyirya, arishimye yambaye agashati k'umweru na karuvati yicaye ku ntebe y'umuhondo bikaba bigaragara ko ari mu ishuri.

Icyumba kiri kuberamo inama yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, aho hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru ndetse n'ikote, uri kubaganiriza abungura ubumenyi n'ibitekerezo, hari insakazamashusho itari kwaka.

Ku bitaro byita ku bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, biherereye i Kigali mu Rwanda, i Ndera ho muri Gasabo, hahagaze umugabo w'umuzungu wambaye ipantaro ya kake n'ishati ya karoka.

Abagore batandukanye umwe yambaye imyenda y'umuhondo, iruhande rwe hari uwambaye ipantaro imufashe ndetse n'ishati y'umweru, hagati muri bo hari umupolisi ushinzwe umutekano.

Hakenewe imbaraga n'uruhare rwa buri wese mu rwego rwo kugira ngo turwanye ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe butari bwiza ni ngombwa ko abantu bose bashyira hamwe uwo babona wahungabanye bakamwegera.

Umukobwa uri kumwenyura, yambaye agapira k'umutuku ndetse n'ak'umukara. Afite umusatsi karemano. Inyuma ye hari umuryango ufunguye, ndetse n'inzu itari kugaragara neza.

Ni ikizu ubona ko gishaje gishobora kuba gifungirwamo abantu cyane cyane abananiranye bafite ibibazo bikomeye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hari umusore wambaye ubusa wicaye aboshye.

Abantu benshi ubona ko basobanutse harimo abagore ndetse n'abagabo abambaye imyambaro y'ubururu, iy'umukara ndetse n'indi, basoje inama barangije bahurira hamwe baricara ngo baganire.

Madame Jeannette Kagame akaba umufasha wa nyakubahwa perezida wa repubulika, ari kumwe n'abandi bantu bitabiriye imyitozo ngororamubiri ariko kuko basuzumwe bahaye ibyemezo byerekana ko ubuzima bwabo buhagaze neza.

Mu minsi ishize isi muri rusange, yugarijwe n'ibyorezo bitandukanye ariko icyabashije kuyishegesha, ni icya kovide cumi n'icyenda. Ibi ni byo byatumye hamamara gusuhuzanya abantu bakomanya inkokora.

Abaturage bicaye ahantu bakaba bari guseka baganira biragaragara ko hari abajyanama b'ubuzima babasuye bari kubakorera ubukangurambaga, hari umukobwa wambaye umupira w'ubururu uri guseka.

Inyubako nini ifite umurambararo muremure, isize amarangi y'umweru, igeretse rimwe. Hari ubusitani burimo ubwatsi buteyemo ibyapa bitanga ikaze ndetse bikanasobanura ko ari ivuriro.

Umugabo wambaye ishati y'umukara uri kumwenyura, inyuma ye hari abandi bantu ndetse n'igishushanyo kinini cy'ingagi, biragaragara ko bari bagiye mu gikorwa cyo kwita amazina abana b'ingagi.

Urukuta rw'amabuye rukikijwe n'utwuma turinda abantu kugira batagwa munsi yarwo hari amadarage azamuka ajya ku nyubako, ifite amarangi y'umuhondo ndetse n'amabati y'ubururu.

Iyo hari ubukangurambaga bugenewe abaturage, abagize inzego z'ibanze babasaba kubegera maze bakabafasha, hari abantu benshi bambaye udupfukamunwa, bamwe bicaye mu ihema abandi bari hanze yaryo.

Ibitaro byinshi bitandukanye, biba bivura indwara zo mu mutwe, ni ngombwa kuko hirya no hino ku isi usanga hari abafite icyo kibazo, nyamara bamwe mu badasobanutse bakabaha akato, kandi nabo ari abantu nk'abandi, ahubwo icyo bakeneye ari ukwitabwaho.

Buri wese aho ariho hose, ashobora guhura n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, hari umukobwa waboheye imisatsi hejuru, uri kumwenyura wirabura, aho bari kuvuga ko buri muntu akwiye kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umuntu ubona ko afite ikibazo cy'ihungabana akaba atameze neza yarize maze azana n'ibimwira mu mazuru biragaragara ko ashobora kuba yahuye n'ikibazo runaka.

Agahinda gakabije birangira kavuyemo indwara y'ubuzima bujyanye no mu mutwe. Ni ngombwa ko rero abantu bafite bene icyo kibazo tubegera tukabaganiriza hakibona kuko iyo bitinze bahita barwara.

Ihuriro ry'abantu benshi bari mu nyubako nziza bicaye ku meza ari mu buryo buzengurutse ariko barahagaze babanje gushyiraho ka murare baririmba ndetse bakoma n'amashyi biganjemo ab'igitsina gore.

Baravuga ngo nutema igiti kimwe ujye utera bibiri, impamvu nta yindi ni ukugira ngo tubungabunge ibidukikije kuko ari byo biduha umwuka duhumeka. Aha hari abantu bari mu gikorwa cyo gutera ibiti.

Umusaza ugeze mu za bukuru uri kumwenyura hari amenyo yo hasi no hejuru igice kinini yamaze kuvamo, yambaye ishati y'ubururu n'agashabazi k'umuhondo kagaragara igice gitoya.

Ihuriro ry’abantu benshi barimo abagore, abagabo, abasore n’inkumi bose bakaba bahagaze, hari bake b’imbere bicaye, bari mu nzu ifite inkuta zisize amarangi y’umweru.

Icyapa cyamamaza kiriho amagambo atandukanye, hari ari mu mabara y'icyatsi, ku mutwe hejuru hari ari mu mabara y'ubururu, hariho umukobwa uteze igitambaro cy'umukara, wambaye n'agapfukamunwa.

Ubuvuzi bw'amenyo bumaze gutera imbere, aho busigaye bukorwa hifashishijwe ibyuma by'ikoranabuhanga, mbere umuntu bamukuraga iryinyo akababara kuko yabaga yumva ariko uyu muganga yafasha umurwayi amutera ikinya, none ari kumukura iryinyo.

Abasaza bageze mu zabukuru usanga bibasirwa n'indwara zitandukanye, niyo mpamvu bakunze kubyuka mu gitondo ubundi bakanywa imiti, uyu yambaye amadarubindi ndetse n'agapira gaciye amaboko.

Umusore ufite ubwanwa butoshye yambaye amadarubindi, afite iherena ku zuru. Urutoki rwe yarutunze ku menyo aho ari kugaragaza ko yayakoreye isuku akaba akeye.

Igikanka bari kwifashisha bigiraho gukura amenyo, hari abantu bafite utwuma twabugenewe twifashishwa n'abaganga iyo bagiye gukura umuntu amenyo ufite uburwayi bwo mu kanwa.

Igice cyo mu kanwa by'umwihariko amenyo, ni kimwe mu bikunze kwibasira abantu kikabateza uburibwe bwinshi mu gihe barwaye, ni ngombwa ko ucishamo ukajya kwa muganga bakagukorera isuzuma ryimbitse kugira ngo bamenye uko umerewe.

Umusore wambaye umupira w'umweru, afite akadodo mu ntoki ze ebyiri, aho ari kugenda agacisha hagati y'iryinyo n'irindi mu rwego rwo kwimakaza isuku yo mu kanwa.

Akana gatoya karwaye amenyo, umuganga wambaye uturindantoki tw’icyatsi ari kukasamura agenda akora ku ryinyo, kugira ngo kamubwire iribabara babashe kuba barikura.

Umusore ufite akarindamenyo, igihe waba ugiye gukina nk'imikino njyarugamba cyangwa se ibindi bintu, hari utuntu duforomye nk'amenyo ushyiramo, arasamye agiye kugashyira mu kanwa.

Mu buvuzi bw'amenyo hifashishwa ibikoresho biba bitandukanye, ibi ngibi iyo muganga agiye gukura iryinyo nibyo yifashisha arikuramo cyangwa se arisuzuma.

Abana batoya bari ku ishuri bambaye impuzankano igizwe n'udushati twa karokaro ariko twiganjemo icyatsi, bahuriye ku gikorwa kimwe aricyo cyo gukora isuku mu kanwa, ibi ni byiza ko tubitoza abakiri bato.

Mu cyumba cy'ishuri hahagazemo abantu batandukanye. Hari umunyeshuri wambaye ishati y'icyatsi. N'uwigisha ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, ari kumwereka igice cyo mu kanwa n'uburyo ki hakorwamo isuku.

Hari igihe biba ngombwa ko abaganga bava ku bitaro bakegera abaturage kugira babahe serivisi zitandukanye, ni muri urwo rwego aha hatewe ihema hari abaganga bari kwakira abantu batandukanye.

Hari uburyo bwinshi butandukanye abantu dushobora gukora isuku mu kanwa kacu, akenshi usanga abantu bifashisha uburoso, nyamara ntago bukura neza imyanda iba iri hagati y'iryinyo n'irindi.

Mu rwego rwo kugira ngo batahure uburwayi bwo mu kanwa hari ibyuma kabuhariwe byifashishwa mu gufata neza amashusho y'ibice byo muim imbere bigize amenyo, maze bakareba niba hari ikibazo yaba afite.

Umukobwa wambaye agaseri ufite imisatsi ifungiye inyuma yaje kwisuzumisha indwara ifata mu myanya y'ubuhumekero, umuganga wambaye uturindantoki n'agapfukamunwa hari igikoresho ari gukoza mu kanwa kiwe mu rwego rwo gushakisha indwara afite.

Ni ngombwa ko iyo bagiye kugukorera igikorwa cyo kukuga cyangwa kugukorera ubundi buvuzi ariko bugusaba kubabara bagutera ikinya, hari abaganga basinzirije umuntu, bakaba bari kumuvura mu gice cyo mu kanwa.

Ubuvuzi bw'amenyo buri kugenda bufata indi ntera, aho bugenda butera imbere, ahanini wasangaga kera abantu bagira ububabare bukabije mu gihe bari kubakura amenyo kuko nta buryo bwari buriho bwo kubatera ibinya.

Hari uburyo bwo gukora isuku mu kanwa nyuma yuko wakoresheje uburoso na korogati, biba ari ngombwa ko ufata akadodo ukagenda unyuza hagati y'iryinyo n'irindi kugira ngo twa twanda duke tuba twasigayemo na two udukuremo.

Kwa muganga uhasanga ibikoresho byinshi, wowe utabisobanukiwe ntiwabasha kumenya icyo bikora ariko buri kimwe mu ikoranabuhanga ryacyo kiba gifite umumaro mwinshi wifashishwa mu kuvura.

Umusore wagiye kwivuza kwa muganga akaba afite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo bari kugenda bapima ngo barebe ko iritameze neza barisimbuza.

Ibikoresho kabuhariwe byifashishwa n'abavuzi b'inzobere, usanga biba bikoranye ikoranabuhanga rihanitse, kuko mu gihe indwara yayoberanye, ibi ngibi babigucishamo maze igahita imenyekana bakabasha kukuvura.

Umusaza uri kugenda akura afite indwara zamwibasiye ibi bituma akenera umuganga wo kumwitaho umunsi ku wundi, hari umukobwa uri kumusunika yicaye mu kagare k'abafite ubumuga.

Umusaza ugeze mu zabukuru akaba afite umusatsi washizeho, ubwanwa bw'umweru, ari kwitabwaho n'umuganga kuko ari kumuha imiti afite ikirahuri mu ntoki cy'amazi yitegura kunywesha uyu muti.

Abasaza bageze mu zabukuru, ni ngombwa ko bahurira ahantu bakicara bakiyibutsa iminsi y'ubuto bwabo, aha ngaha hari abari ku murongo bambaye neza, bigaragara ko badakomoka mu gihugu cy'u Rwanda.

Abageze mu zabukuru usanga bibasirwa n'indwara zitandukanye ariko na bo mu rwego rwo gukurikirana ubuzima bwabo barasabwa kubahiriza amabwiriza baba barahawe n'abaganga, bafata imiti ku gihe nkuko uyu musaza ari kubigenza.

Ibikombe birimo icyayi by'umweru, biri iruhande rw'umusaza wambaye amadarubindi ndetse n'umuhungu we. Ari kumusomera igitabo, barishimye, bari kumwenyura.

Umudamu wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru, ari gukina n'akana ke, gafite imisatsi myinshi iboshye mu buryo bubiri, hari utuntu turi ku meza, ari kugenda akereka.

Umusaza ufite imvi zabaye uruyenzi ari kumwe n'umudamu nawe ufite umusatsi w'umweru, bari kumwenyura barishimye hari umukino bari gukina hari utuntu bateretse ku meza aho bari kugenda batwimura.

Umusaza ugeze mu za bukuru wambaye agapfukamunwa n'ishati y'ubururu, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye impuzankano y'icyatsi wafashe imisatsi ye ayibohera hejuru, afite akuma yagashyize ku mutima we ngo yumve uko uri gutera.

Umusaza n'umukecuru b'abazungu barimo barareba imiti bagiye kunywa, umwe yambaye agapira k'umutuku karimo uturongo tw'umukara, iruhande rwe hari amadarubindi ndetse n'udukombe tuvamo imiti.

Abantu batangiye kugenda bagera mu za bukuru bakenera abaganga bo kubitaho umunsi ku wundi aha hari umukecuru wicumbye akabando nubwo yicaye ari kumwe n'umuganga biragaragara ko yamuhaye ibisubizo byiza kuko barishimye.

Umusaza ugeze mu zabukuru ari kumwe n'umuganga umwitaho umunsi ku wundi, yambaye impuzankano y'ubururu bwerurutse, naho umusaza yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri gukiruka imvune, yambaye ipantaro y'umutuku ndetse n'icyenda bajyana muri dushe mu rwego rwo kugira ngo atangire kwimenyereza gutambuka, hari akuma kagenwa n'abaganga ahagurukiraho, ari kumwe n'ushinzwe gukurikirana ubuzima bwe w'umuzungukazi.

Abageze mu zabukuru bitabwaho mu buryo butandukanye, baba bakeneye ubuvuzi ndetse no kwitabwaho. Aha hari umusaza ufite ubwanwa bw'umweru ndetse n'imvi biragaragara ko atakibashije kwiyoza hari umuntu uri kumukarabya.

Umusaza ugeze mu zabukuru ari kwitabwaho n'umukobwa w'umuganga, yicaye mu kagare kagendamo abafite ikibazo cy'amaguru batabasha kugenda neza, umukobwa ari kumubaza uko ubuzima bwe buhagaze.

Umukecuru imvi zabaye uruyenzi, yambaye agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara, ari kumwe n'umuganga umwitaho buri munsi, yaje kumusuzuma ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Abasaza n'abuzukuru usanga bakundana cyane, kuko urukundo umubyeyi atahaye umwana we usanga yararusigiye umwuzukuru, umusaza yahaye umwana agapupe bari kwishimana baseka.

Umukobwa ndetse n'umubyeyi we barasa, baricaranye bari kuganira ari nako bikorera uturimo tw'amaboko two mu rugo. Umubyeyi wambaye amadarubindi uri kumwenyura ari gukata ishu.

Umusaza ugeze mu za bukuru yicaye mu kagare kagenewe gufasha abafite ubumuga bwo kutagenda, ari kumwe n'umwuzukuru we ufite imisatsi myinshi, bakaba bari gukina umukino wifashishwa mu ikoranabuhanga.

Abageze mu zabukuru na bo bamaze gusobanukirwa ko gukora imyitozo ngororamubiri ari cyo kintu cyonyine gishobora gutuma ubuzima bwabo bukomeza kurushaho kugenda neza, ndetse ntibasaze imburagihe.

Abategarugori bagera kuri batatu, bari mu myitozo ngororamubiri. Buri muntu arimenya; iyo uri umunyantege nke si ngombwa ko ukora imyitozo wirukanka, hari abakora akagendo gake gakeya.

Abakecuru bageze mu izabukuru bari kwicumba utubando twabo, bari mu muhanda rwagati biragaragara ko babukereye hari igikorwa cya leta bazindukiyemo bagiye kwitabira bakenyeye imyitero.

Abagore batatu bageze mu zabukuru, bari kumwenyura. Urimo hagati afite telefone mu ntoki, yambaye umupira w'umuhondo. Iruhande rw'iburyo hari ufite imvi zabaye uruyenzi, uwo hino yambaye iherena.

Umukecuru w'umuzungukazi ndetse n'umusaza w'umwirabura ubona ko batarasaza cyane, bari mu myitozo ngororamubiri. Bari kugenda baganira, baseka urabona ko bizihiwe, bose imisatsi yabo irasa umweru.

Ni umusaza uri kumwe n'abana batatu bicaye imbere y'umuryango, bose bafite utuntu bari kurya umusaza akaba afite n'akabando biragaragara ko ari kumwe n'abuzukuru be.

Ihuriro ry'abakecuru harimo n'abakiri batoya, abenshi muri bo bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'amajipo y'umukara ari ku murongo bari gutambuka babyina.

Ihuriro ry'abagiraneza baje gutanga inkunga y'ubufasha ku bantu bafite ubumuga cyangwa bageze mu za bukuru. Hari umugabo wambaye ijire n'ipataro by'umukara ari kuramukanya n'undi mugabo aho ari kumushyikiriza igikoresho azajya yifashisha.

Abageze mu zabukuru ni ngombwa ko bitabwaho mu buryo byose; haba kubaha ubuvuzi bakeneye kuko umubiri wabo uba utangiye kugenda utakaza imbaraga ni ngombwa rero ko tubakoresha n'imyitozo ngororamubiri ariko yoroheje.

Umusaza n'umukecuru bari gufata ifunguro baganira, umusaza yambaye ishati y'umutuku namadarubindi ,afite icyuma cyo kumeza ndetse nikanya akaba ari kurya aganiriza umufasha we.

Minisitiri w'ubuzima, Dr Sabin Nsanzimana ndetse n'abafatanyabikorwa mu buzima mu gihugu cy'u Rwanda, bari gutanga imbwirwaruhame, bavuga uburyo ki bahagarika icyorezo cy'ubushita bw'inkende.

Ikoraniro ry'abari n'abategarugori bicaye mu cyumba kiberamo inama, abenshi muri bo bafite ibishuko bigiye inyuma, bambaye impuzankano y'umweru ndetse bicaye no ku ntebe za parasitiki.

Ni urubyiruko rwambaye impuzankano y'umweru. Bari mu rugendo rw'amahoro rushishikariza abantu kwirinda kanseri y'ibere ngo muyisuzumishe hakiri kare kuko iravurwa igakira.

Umwana mutoya uryamye akaba yasinziriye biragaragara ko afite nk'amezi atandatu, abangana batyo rero tuba tugomba kubakurikirana umunota ku wundi kugira ngo bazakure neza.

Icyapa kinini cy'ubururu kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, hakaba hariho umuganga witwa Gahamanyi akaba ari inzobere ku bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe.

Abantu batandukanye bari mu byiciro bitandukanye, bakaba bicaye bamwe ku ntebe itambitse, hari abambaye amakote y'imikara ndetse n'abadamu bambaye imyenda y'imyeru.

Umugabo wambaye ishati y'umweru akaba yabumbuye umunwa ari kureba imbere ye. Uyu ni umuganga winzobere mubijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Hari igihe biba ngombwa ko abavuzi bava ku bitaro, bakajya ku baturage kugira ngo ubuvuzi bwegere buri wese, aba bambaye uturindamutwe udupfukamunwa, ndetse n'impuzankano z'ubururu.

Ihuriro ry'abantu benshi bari mucyumba kiriho itapi y'icyatsi, harimo abanyaziya bagera kuri batatu ndetse n'abirabura bane, bose bafite amakarita mu gatuza kabo aranga ibyo bakora.

Abantu benshi cyane bakora imyitozo ngororamubiri, baba bakeneye kurya ibiribwa birimo intungamubiri, zituma ibyo bataje bakora ya myitozo bigaruka kugira ngo umubiri wabo wubakike nk'uko babyifuza.

Indwara ya diyabete n'imwe mu ndwara zihangayikishije isi, kuko kuri ubu nngubu isigaye yibasira abatari bakeya, abantu batangiye kugera mu za bukuru hafi mirongo irindwi nagatanu kw'ijana baba bafite iyi ndwara.

Imbaga y'abantu benshi bakaba bamaze gukora igikorwa cy'inama, barahagaze biganjemo abambaye imipira y'imyeru iy'ubururu harimo umuzungu w'umukobwa.

Mu minsi ishize hirya no hino ku isi nyuma y'icyorezo cya corona virusi cumi n'icyenda, haje kwaduka ikindi cy'ubushita bw'inkende, iki cyaricaga ndetse kikanarangiza vuba ariko u Rwanda rwaragitsinze.

Umwaka washize u Rwanda ndetse n'Isi muri rusange, rwibasiwe n'Icyorezo cy'ubushita bw'inkende, uyu akaba ari kugaragaza ibimenyetso byayo aho azana ibintu by'ibisheshe ku mubiri.

Ubwo isi yari yugarijwe n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende, abahanga mu byo gukora inkingo n'imiti bari bahangayikishijwe no guhagarika iki cyorezo bifashishije urukingo, igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu byatsinze iki cyorezo vuba.

Abantu batandukanye bakaba bagiye bari mu byiciro, hari umuzungu wambaye amadarubindi n'undi muganga witandiye akantu k'icyatsi wambaye taburiya y'umweru, hari amagambo ari ku cyapa avuga ngo nta n'umwe ugomba gusigara inyuma.

Twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira. Uwahoze ari Minisitire w'ubuzima mu Rwanda ari kumwe n'umuhanzi witwa Mico, bakaba bari gushishikariza abantu kwisuzumisha indwara y'igituntu.

Abari n'abategarugori bahuriye hamwe bari kuganira, abenshi bambaye impuzankano y'umweru n'abandi batatu bambaye iy'umukara, hari umwe wambaye ishati y'icyatsi n'undi wambaye umupira udasa n'ibindi.

Umugabo w'umuzungu wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu bwerurutse ari kumwe n'umukobwa wambaye ikanzu y'amabara menshi bakaba bahagaze imbere y'icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubuzima.

Icyapa kiri mu mabara atandukanye, hari umweru hejuru mo hagati ni ubururu, harimo akana kambaye umupira w'icyatsi kamwenyuye kari kumwe n'umuganga uri kukitaho.

Umugabo w'umuzungu wambaye umupira w'amaboko w'umukara n'amadarubindi, akaba ari gusaba ko abaturage cyane cyane abaciriritse, nabo babasha kubona urukingo rw'ubushita bw'inkende bitabasabye amikoro.

Amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza, agamije ahanini ku kurwanya SIDA ndetse no kuyirinda, yanditse mu ijambo ry'icyongereza ryandikishije amagambo atukura, ndetse n'ay'ubururu ari hejuru y'umurongo.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara isutse amameshi, akaba yambaye umwenda w'ubururu, ni umuganga, iruhande rw'iwe hari icyapa kiri mu mabara atandukanye.

Umubyeyi uteruye akana ke karogoshe umusatsi bawumaraho, aragakikiye arikukaganiriza kugira ngo yumve ikibazo gafite, inyuma ye hari abandi bantu b'abagabo bari kumwitegereza.

Ubutabazi bw'ibanze bukwiye gukorerwa umuntu uhuye n'ikibazo, aho hari abaganga bari kwihutira kumutabara, hari umwe wazamuye ikiganza umeze nk'uri gutanga amabwiriza y'uburyo agomba kwitabwaho.

Mu bubiko bw'imiti usanga ari ahantu haba harinzwe kandi hatekanye hakagirirwa n'isuku kuko imiti iba igomba kubikwa ahantu hizewe heza, kugira ngo itazangirika kandi ari ikintu gikenerwa n'abaturage.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti ikaba ari iy'uwitwa Murekatete Mari Denise. Aha ngaha iyo uvuye kwa muganga bamaze kugusuzuma bamenye neza indwara urwaye uraza bakaguha umuti.

Ni ahantu hahuriye abantu benshi, bagiye bahagaze mu matsinda, hari umugore ukenyeye igitenge uri imbere y'imodoka y'umukara, hari n'abandi babiri bari kuganira, umwe yiteye igitenge mu rutugu iruhande rwabo hari umusore uri gusoma.

Ku kigo nderabuzima cya Kanyinya mu mbuga yayo hateyemo utubuye ubwatsi ndetse n'indabyo, leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu buvuzi mu rwego rwo kugira ngo abaturage bayo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako ikaba ari inzu y'ababyeyi bene izi ngizi zita ku bagore batwite ndetse n'abana babyaye ziba zarabugenewe zifite abaganga b'inzobere muri ibyo bintu.

Icyumba cyiza giteguye neza, kikaba cyifashishwa n'abaganga b'inzobere iyo bagiye kubaga umurwayi utameze neza, gifite purafo y'umweru, hari agatapi k'ubururu, harimo ibyuma bitandukanye.

Inyubako yubatswe ku buryo butangaje kandi bwiza, aho igice kimwe cyubakishijwe amabuye kiri ku ibaraza riri ku marembo. Hari ubusitani buyikikije ndetse ikaba ikoreramo ikigo Nyafurika.

Imisozi iteyeho ibiti ndetse n'ibibaya aha hantu uhari ushobora kumva umuyaga mwiza ndetse n'umwuka, izi nyubako zihari zikaba zubatse mu buryo bugezweho.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo imbere yayo hateye indabyo, izi nyubako zikunze kuba zita ku bantu bagiye bagira ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kuko nabo baba bakeneye kwitabwaho.

Itsinda ry'abaganga bari mu gikorwa cy'ubuvuzi, ni batatu, bose bambaye impuzankano y'umweru, umwe w'umugabo aricaye afite ikaramu n'urupapuro ari kwandika, hari umurwayi bashyizeho igikoresho gisuzuma umuvuduko w'amaraso.

Ni umugabo uryamye kwa muganga ariko n'ubwo arembye afite icyizere cy'uko azakira kuko aho arwariye bafite ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukora ubuvuzi.

Inyubako ishobora kuba ari ububiko cyangwa se rukaba ari uruganda rushinzwe gutunganya imiti ndetse n'inkingo, dore ko u Rwanda ari rumwe mu bihugu bifite bene uru ruganda.

Imbere y'ibitaro by'igenga by'umukire witwa NYIRINKWAYA, hakaba hari igipangu gikoritirijwe utwuma tw'ubururu, ndetse hashinzemo n'ibendera hari akazu k'ikigo cy'itumanaho.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, hakaba harimo icyuma cyabugenewe gishinzwe gutahura indwara ziba zihishe mo imbere, aha umurwayi aryamaho ubundi iki cyuma kikareba imbere mu mubiri we.

Ku bitaro bya Kabgayi hari icyapa kiranga ko ari ho ugeze, abantu bari kwinjirayo ariko ntago hari kugaragara benshi cyane, ibi bizoberewe mu kuvura cyane cyane indwara z'amaso.

Ni ngombwa ko ahantu hahurira abantu benshi tugomba gutera imiti yica udukoko dutandukanye dushobora gutera indwara, iyo icyo gikorwa kigiye gukorwa bisaba ko haza umuntu ubimenyereye.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, usanga hazindukiye abantu benshi, baje kugenzura uko ubuzima bwabo buhagaze. Hari umubyeyi wicaye mu kagare, biragaragara ko afite ubumuga atagenda neza, ari kwitabwaho n'abaganga.

Ku kigo nderabuzima cya Kigina, hari umudamu uhagaze imbere y'umuryango uhetse umwana, akaba igitambaro cyo kumutwikiriza yagishyize imbere. Hariho icyapa kiri mu mabara y'umweru n'amagambo yandikishije umukara.

Abana ni ngombwa ko tugenda tubapimisha kugira ngo tumenye imikurire yabo nimba iri kugenda neza cyangwa se bari kugwingira niyo mpamvu hashyizweho ubukangurambaga bwo gupimisha abana bato.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite imbuga yisanzuye, hari utuyira tugenda ducamo abantu tunyuranyuranamo, ndetse iruhande rwatwo hagiye hateye ubusitani.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, hasi ifite amakaro bakunda kwita igicu, inkuta ndetse na parafo zayo, zikaba zisize irangi ry'umweru .Harimo ibyumba birimo utuyetajeri dushyirwamo ibikoresho ariko nta na kimwe kirimo.

Abarwayi baba bemerewe kuba bataha iwabo bakaza kwivuza, ariko na none iyo babonye indwara yawe iri kugenda ikura, hari igihe baguha ibitaro kugira ngo witabweho neza mu buryo bikwiye uzasubire mu rugo nyuma.

Abantu bamaze gusobanukirwa ko siporo ari ingirakamaro, ubundi mbere nta muntu washoboraga kuba yakwishyura amafaranga hagamijwe gukora siporo, ariko ubu hari ibyanya byabugenewe abantu bajyamo bakishyura bagakora imyitozo ngororamubiri.

Igikuta cyiza cyane cy'umweru kiriho ijisho rinini bigaragara ko aha hantu turi hakorerwa ubuvuzi bw'amaso, hamanitse ibipurizo by'ubururu n'umweru ndetse n'intebe abantu bicaraho.

Icyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga, byose bikaba byifashishwa mu buvuzi bugezweho. Biteretse ku meza biri ku murongo, hagiye hacometseho amasinga ajyanwa ku muriro akabifasha kwaka.

Ibitaro byiswe ibya Butaro biherereye mu karere ka Rulindo, byubatswe ku nkunga y'amahanga, bikaba bimeze neza, hari umwana w'umurwaza ugiye kumena imyanda iri mu kabase.

Farumasi icuruza imiti, ku barwayi baba babanje guca ku bigonderabuzima bitandukanye, bakabasuzuma maze bakabandikira imiti, ababishoboye bakajya kuyigurira muri izi nyubako.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi butandukanye buteye imbere kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu rwego rwo kugira ngo hatahurwe indwara umurwayi y'aba arwaye cyane cyane izaba zitagaragara mu buryo bworoshye.

Urukuta rwubakishije amabuye ruzengurutswe n'utwuma turinda abantu kugira ngo batagwa, hari amadarage azamuka ajya ku kigonderabuzima cya Tabagwe cyubatswe ku bufatanye n'umushinga witwa Imbuto, hakaba rero hari abaturage baje kwivuza.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi usanga hari abantu benshi, ariko haba harashyizweho uburyo abo bantu bagomba gukurikirana nta wutanga undi, niyo mpamvu uhageze yicara akurikije nimero.

Inyubako ndende yubakishije inkuta zisa umweru, mo hagati hagiye haciyemo amadirishya, agizwe n'ibirahure by'ubururu. Imbere yayo hari ibyapa biranga ibikorerwamo imbere.

Inyubako nziza y'amagorofa menshi ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, hari igice kimwe kiriho ibirahuri by'umweru ndetse n'ahandi hari iby'ubururu ifite irangi rijya gusa n'ivu.

Hari inyubako ziba zaragenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri izi ngizi uzazisangamo buri gikoresho cyose gishobora kugufasha mu gukora umwitozo uwo ari wose waba ukeneye yaba kwiruka, guterura ibyuma ndetse n'ibindi.

Haba hari ahantu hatunganyirizwa ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu rwego rwo kugira ngo babungabunge ubuzima bw'abarwayi. Aha hari abaganga bambaye amataburiya, utunozasuku, udupfukamunwa bari ahatunganyirizwa za serumu.

Icyumba gitangirwamo serivisi zitandukanye, abantu batonze umurongo kugira ngo babafashe, iruhande rwabo hari intebe bari bicayemo ariko mu rwego rwo kubahiriza abafite ubumuga, baretse umeze gutyo kugira ngo abanze gufashwa.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere cyubakishijwe igice cy'amatafari ahiye ariko ahagana ku gisenge hubakishije igikuta cy'irangi ry'umweru, imbere yacyo hari indabyo ziconze neza.

Ni ku ivuriro rigaragaraho imodoka ihagaze hanze ndetse n'abantu bari mu byiciro bibiri, hari batatu bahagaze baganira, n'undi umwe umaze gusohoka mu modoka uri imbere yayo.

Hirya no hino mu gihugu usanga hariho ibigo byemewe bishinzwe gucuruza imiti ndetse bikanatanga ubuvuzi bw'ibanze. Mbere yo kugana bene ibi bigo ni ngombwa ko duca ku bitaro tukabanza gusuzumwa maze batwandikira imiti tukaza kuyihabariza.

Icyumba kivurirwamo abana, kirimo udushushanyo dushobora kurangaza umwana mu rwego rwo kugira ngo ataba afite ubwoba. Biba rero ari umwihariko, ubuvuzi bw'abana bugira uko bukorwa.

Icyumba kirimo ibyuma byifashishwa mu gutanga imiyaga, aho bakirira abantu harasa umuhondo, inkuta ni umweru, harimo intebe zigiye ziri mu byiciro bitandukanye ariko ntawe uzicayemo.

Ubusitani burimo indabyo zitoshye z'amabara menshi, harimo iz'umutuku, iz'icyatsi ndetse n'izindi, i ruhande rwawo hari inzu yubatse mu buryo butangaje kuko ifite inkuta zubakishije amakoro.

Igikorwa cyo gutanga amaraso ni kimwe mu bikorwa by'urukundo, gikorwa n'umuntu abyibwirije ku bushake bwe, hari umusore uryamye ku gatanda, wambaye ingofero n'agapfukamunwa, umuganga wabizobereyemo ari kumufata amaraso.

Umusore wambaye umupira w'ubururu, agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, hirya hari n'undi mudamu wambaye ikintu cy'umweru, bakaba bashinzwe gukora isuku mu bitaro mu rwego rwo kugira ngo babungabunge ubuzima bw'abarwayi.

Mu biro by'umuganga haba hari ibyuma yifashisha asuzuma abarwayi, akagira n'agatanda iyo bibaye ngombwa umurwayi akaryamaho kugira ngo abashe gusuzumwa neza.

Mu rwego rwo kugira ngo hajye haramirwa abarwayi batakaje amaraso menshi, hashyizweho uburyo hirya no hino bwo gutanga ayo maraso nk'igikorwa cy'urukundo, ari mu dushashi, ayan ngaya aba yiteguye gutabara aho rukomeye.

Ahacururizwa amadarubindi, hari abayambara kubwo umurimbo, ariko hari n'abayambara kubwo kuba barahuye n'ikibazo bakarwara amaso, iyi nyubako icururizwamo ay'ubwoko bwose ariko ni ay'abantu barwaye.

Ku kigo nderabuzima cya Nyarurenzi, hazindukiye abaturage benshi baje gushaka serivisi z'ubuvuzi. Hasi hari abahagaze bari kuganira n'ushinzwe umutekano kuri iki kigo nderabuzima.

Aha suzumirwa abantu ndetse hakanatangirwa ibizami kwa muganga, nicyo gice kigaragara cyicawemo n'abantu, bategereje guhabwa ibisubizo, n'abandi bategereje gukorerwa isuzuma.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho imbere yayo hagiye hari utuziga duteyemo ubwatsi ndetse n'imikindo, igeretse kabiri ifite inkingi enye z'umweru zikikije ibaraza ryayo.

Inyubako nziza y'ivuriro, yubakishije amabuye ameze nkaho ari amakoro, ikaba yubatse mu buryo butangaje. Imbere yayo hari gutambuka abagabo babiri, umwe yambaye itaburiya, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ibyuma byifashishwa n'abaganga mu rwego rwo kunoza serivisi batanga, aha ngaha usanga hatunganyirizwa bimwe mu bintu byifashishwa n'abaganga, kugira ngo babashe gutanga ubuvuzi ku buryo bunoze.

Icyumba cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu buvuzi buteye imbere, aha ngaha ufite ibibazo by'umubiri cyane cyane mo imbere ajya kuri iki cyuma maze kikamusuzuma kugira ngo hamenyekane indwara afite.

Inyubako nini bigaragara ko ari ku cyicaro gikuru cy'umushinga runaka, hari icyapa kiharanga kiri mu mabara y'umweru n'umutuku ndetse no mu ibaraza hari ijambo ryerekana ko ari aho abantu babaririza, mu mbuga yayo hari imodoka zihaparitse.

Igiti cy'umukindo kizwiho kuba umutako, giteye mu busitani bwiza butoshye bw'icyatsi kibisi buzengurutswe n'idabyo, hirya hari amamodoka atatu ahahagaze.

Umuganga w'inzobere yicaye ku gatebe k'icyatsi, yambaye itaburiya y'umweru, isaha ku kaboko, arimo arasobanura buryo ki abantu bashobora kwirinda indwara zitandukanye.

Inyubako imeze neza ikeye, hari kugaragara muri korodoro, ibikuta by'umweru, ndetse n'inzugi ziba zikoze mu mbaho zikomeye, parafo y'ayo irasa umweru.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa muviriingo, ikaba igizwe n'amabara yiganjemo ay'umuhondo. Imbere yayo hari amapave y'utuyira ducamo abanyamaguru, ndetse n'ubusitani.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru wiganje, amagambo yandikishije ibara ry'umutuku, iry'ubururu ndetse n'iry'umukara, kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo ndetse kiraranga ibikorerwamo imbere.

Ku kigo nderabuzima ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi hari inzu ifite amarangi y'umweru ndetse n'amadirishya asize icyatsi, ahagana ku gisenge naho hari ahari ibara ry'icyatsi hari umuganga uhagaze.

Icyumba cyo kwa muganga kikaba ari icyagenewe abana batoya, kuko harimo agatanda umwana aryamishwamo, ndetse n'ibishushanyo byerekana ko aho hantu hatangirwa ubuvuzi bw'abakiri bato.

Mu bitaro kwa muganga haba hari ahantu habugenewe hashyirwa abarwayi batari bwivuze bataha. Hari igihe biba ngombwa ko ugomba gukurikiranwa n'abaganga umunsi ku wundi, isaha ku yindi. Uhabwa ibitaro, ari byo by'ibi bitanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'umwihariko byifashishwa mu rwego rw'ikoranabuhanga ariko mu gusuzuma ibibazo by'abarwayi baba batandukanye.

Ahantu habugenewe hagomba kuba habikwa imiti ndetse n'inkingo ni byiza ko ibi bintu kuko ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko uwo ari we wese yarwara akabikenera biba bigomba kubikwa neza ahantu hizewe.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga aho umurwayi iyo ari gusuzumwa ibizami bye biba biri kugaragara mu nsakazamashusho ziba ziri aho ngaho, ubu ni ubuvuzi buteye imbere.

Abaganga b'inzobere usanga barabyize ku rwego ruhanitse niyo mpamvu baba bafite ibyuma kabuhariwe bibafasha gukusanya amakuru y'abarwayi ndetse no gukora ubushakashatsi ku ndwara zananiranye.

Abaganga b'inzobere bari mu gikorwa cyo kubaga umuntu banamudoda, bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'utunozasuku mu mutwe tw'icyatsi, hari umurwayi ugaramye barimo baravura ku buryo bukomeye cyane.

Icyumba gikorerwamo kubaga abarwayi, iki umuntu ufite indwara yananiranye hari igihe abaganga biba ngombwa ko bafata igice cy'umubiri we bakakibaga bakareba ikirimo imbere.

Ku kigo nderabuzima akenshi hagomba kuba hari inzu y'ababyeyi, ari yo bakunze kwita materineti. Iyi yubakishije amatafari ahiye, mu ibaraza hari inkingi eshatu ndetse n'amarangi y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo isuzuma, aha ngaha iyo ufite ibibazo bitandukanye cyangwa indwara itari kugaragara neza bagucisha muri iki cyuma kugira ngo habashe kumenyekana nyirizina ikibazo waba ufite.

Ku kigo nderabuzima cya Remera Rukoma hari ahubakishije amatafari ahiye ndetse mu ibaraza hari inkingi imwe y'umweru, hakaba hari ubusitani ndetse n'indabyo.

Ikoraniro ry'abantu benshi babyukiye mu mahugurwa, hakaba higanjemo abagore ndetse n'abagabo hari abicaye imbere, iruhande rwabo hari igipapuro kiri ku kibaho.

Ahantu heza cyane hakorerwa ubuvuzi leta yashyize imbaraga mu kubaka amavuriro meza, ajyanye n'icyerekezo tugezemo, mu rwego rwo kugira ngo ubuvuzi bugere kuri bose.

Icyumba cyita ku bana bakiri bato bijyanye n'ibintu birimo by'ibipupe ndetse n'amabara arimo, hari akanyamasyo k'igishushanyo, hagiye hari udutebe turi mu matsinda bashobora kwicaramo.

Inyubako nini yubatse mu buryo bugezweho, ikaba ifite amakaro akeye, hari igice kimwe gikingishije ibirahure kigiye kiriho amashusho y'abantu bambaye amadarubindi, bigaragara ko hano hakorerwa ubuvuzi bw'amaso.

Uducupa dutwarwamo imiti tuba turi mu makarito arinzwe neza ku buryo tutakwangirika, hari udufite ibara ry'umuhondo umutuku icyatsi, ubururu ndetse n'umukara.

Igikoresho cyifashishwa mu buvuzi aho umuntu wagize imvune cyane cyane yo mu ijosi bakimushyiramo kugira ngo arusheho kugubwa neza mu rwego rwo kumurinda ububabare buturuka ku kwinyeganyeza.

Iyo umuntu yagize gutya akaba ari mu myitozo ngororamubiri, agahura n'ikibazo cyo kuvunika. Ni ngombwa ko ahita yegera abashinzwe gukora ku bijyanye n'imvune, bakamurebera ikibazo afite kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Umukino w'umupira w'amaguru igihe biba ngombwa ko umuntu agira imvune haba hari abaganga babizoberewe bashinzwe kuza bakamwitaho by'akanya gato iyo atahuye n'ikibazo gikomeye, hari abakinnyi ndetse, n'abari kwita ku bagize ikibazo cy'imvune.

Mu rwego rwo kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwacu, ni ngombwa ko umubiri iyo ukeneye amazi tuba tugomba kuyanywa ariko tukamenya ikigero, hari abantu baba bemerewe kunywa menshi bakoze imyitozo ngororamubiri.

Akuma kifashishwa mu gukoreshwa mu ikoranabuhanga, ni gashyashya kavuye mu ikarito yako hariho imibare, ndetse iruhande hari umugozi ushinzwe kugacomeka ku mashanyarazi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi cyane cyane ubwo kubaga, usanga kiba giteguye neza kirimo ibikoresho byabugenewe yaba ibishinzwe kukimurikira ndetse n'udutanda abarwayi baryamaho.

Hari abantu bakora imyitozo ngororamubiri bagamije kongera ingano yabo, abo ngabo baterura ibyuma bizwi nk'amariteri, akaba aribyo bira aha, yaba uduterurwa mu kaboko kamwe ndetse n'uduterurwa n'amoboko abiri.

Umukobwa wafashe imisatsi akayibohera hejuru, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isaha ku kaboko kw'ibumoso, naho iburyo hari ahantu atwara telefone kugira ngo agende yumva umuziki.

Imikino itandukanye, iyo iri gukinwa hifashishwa imipira yabugenewe kugira abashinzwe gukina babashe kuba bajya mu gikorwa, aha hari imipira y'amaguru, iy'intoki ndetse n'indi.

Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa mu buzima kuko ituma umubiri wacu umera neza ukazira amavunane kandi tukanakomera umukobwa ufite ibisuko bigiye inyuma ari kwigorora nyuma y'uko ayisoje.

Ari kunywa amazi, biragaragara ko yari afite inyota, yambaye umupira w'ubururu bwijimye, afite ubwanwa, isaha y'umukara ku kaboko k'iburyo agacupa arimo agotomera ku mazi yica inyota.

Ni byiza ko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, abasha kumenya umubiri we kugira ngo amenye ikigero cy'iyo akora. Si ngombwa kunaniza umubiri cyane, iyo ugeze ahantu urushye ni ngombwa kuruhukamo. Uyu mukobwa yari ari kwiruka, ananiwemo gato afata akaruhuko.

Umuzungukazi ufite imisatsi miremire yayiboheye inyuma, akaba ari ahantu imbere y'inyanja, ari kunywa amazi yambaye agasengeri k'ubururu bwerurutse.

Umukobwa wambaye agakora k'ubururu bwerurutse n'agasengeri k'umweru, yamanitse amaboko ari mu myitozo ngororamubiri ikorwa umuntu ariwe mu rugo yitwa yoga.

Agakapu kitwazwa n'abaganga iyo bagiye gutabara aho rukomeye, bashyiramo udukoresho tw'ibanze dutuma baramira uwo bari gusanganira mu gihe ataragezwa mu bitaro bikuru.

Ubuvuzi bwihuse kugira ngo bugere kuri bose, hifashishwa ibi bikapu aho umuntu yitwazamo ibyabugenewe kugira ngo atabare ahantu runaka hihutirwa, harimo inshinge, ibipfuko n'ibindi.

Umukobwa uhagaze wambaye agakabutura k'umukara, karimo uturongo tw'umweru, ari kunanura imitsi yiwe mbere y'uko atangira imyitozo ihambaye. Iruhande rwe hari umusore uri gusoma ku mazi.

Iyo umuntu yahuye n'ikibazo cyo kuvunika amaguru ku buryo bukabije, barabanza bakamwitaho, iyo atangiye kugenda hari uburyo bwashyizweho n'abaganga bamuha utwuma akagenda adutereramo intambwe kugira ngo yumve ikigero agezeho.

Umusore usoje amasiganwa yo kwiruka yambaye agasengeri k'umutuku ndetse mu gatuza hariho nimero imuranga, hari ababa bashinzwe kukuramira mu gihe usoje ufite intege nke niwe umurandase.

Umukobwa wicaye mu bwatsi butoshye akaba yazindukiye mu myitozo ngororamubiri, iyo amaze kwiruka yicara hamwe ubundi agatangira kunanura ndetse no kugorora imitsi ye.

Umugabo wagize ikibazo cy'imvune, ari kwitabwaho n'umuntu wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara, ku birenge bye byombi yahaziritse bande, ndetse n'ibipfuko mu rwego rwo kumuramira.

Umukobwa wambaye agakora n'agasengeri k'umutuku, akaba yicaye ku gatapi iwe mu rugo, niho ari gukorera imyitozo ngororamubiri dore ko atari ngombwa kujya kwiruka, hari n'izo ushobora gukora wibereye ahantu hamwe.

Umukobwa wagize ikibazo cy'imvune mu ivi, akaba atagaragara neza, yambaye umupira w'umutuku ndetse n'agakora k'ivu, ari kumwe na muganga wambaye itaburiya y'umweru n'isaha, akaba ashyize intoki ze ku ivi.

Iyo umuntu amaze gukira imvune si ngombwa guhita akora imyitozo ngororamubiri myinshi, ubanza gutangira kwiga kugenda neza, hari umutoza ufite imipira ibiri mu ntoki uri kugenda ahugura uvuye mu mvune.

Umudamu ufite agashanete mu ijosi, yambaye ishati y'umweru, impeta ku rutoki, akaba yagize ikibazo mu nkokora, ari kwikanda yifashishije agatambaro k'ubururu.

Agatanda kifashishwa mu buryo bw'ubuvuzi, kakaba kagizwe na santimetero mirongo itandatu n'umunani ku gice kimwe ikindi ni santimetero mirongo icyenda na rimwe naho mubuhagarike ni ijana n'imwe.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa mu byiciro bitandukanye, hari abo usanga birukanka n'abandi usanga bicaye ahantu hamwe bagenda bigorora, ariko ni byiza ko ibi byose tubihuza kimwe kigakorwa mu gihe cyacyo.

Umusore wambaye utujyana imiziki mu matwi akaba yabishyize mu ijosi yambaye agapira k'ubururu hari akantu k'agatambaro kaziziritse ku kaboko k'umweru ari mu myitozo ngororamubiri ariko abanje gusoma ku mazi.

Abantu bageze mu zabukuru usanga nabo bashishikarizwa gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko baba bafite abaganga babakurikirana umunsi ku wundi kugira ngo babahe ikigero cy'imyitozo bakwiye gukora kuko batabasha gukora myinshi yabangiza.

Iterambere mu buvuzi rikaba rimaze gukataza ryageze ku ntera yo hejuru. Hari utudege twashyizeho twifashishwa mu kujyana ibikoresho aho bikenewe mu buryo bwihutirwa kugira ngo abantu bahabwe ubufasha bw'ubuvuzi.

Ni umusore wicaye yegamye ahantu ku nkingi yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakomo k'icyatsi, afite icupa ry'amazi akaba ari kuyanywa, ari gufata akaruhuko nyuma y'uko yari ari mu imyitozo ngororamubiri.

Umuntu yari ari gukora imyitozo ngororamubiri agenda yiruka mu muhanda, kubera ko mu minsi ishize yari yagize ikibazo cy'imvune yo ku ivi, atangiye kumva atameze neza ari gukandaho ariko arahita ajya kwa muganga kugira ngo bamuvure.

Umukobwa uri ahantu hirengeye wambaye agasengero k'icyatsi cyerurutse nyuma yuko amaze gukora imyitozo ngororamubiri yo kwiruka, arimo arinanura agorora imitsi kugira arusheho kumera neza.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga, harimo ibipima bikerekana uburyo umutima w'umurwayi uri gutera ndetse n'uko ubuzima bwe buhagaze muri rusange.

Ni ngombwa ko dukora imyitozo ngororamubiri, ariko nanone bya bindi twatakaje tuyikora, tugashaka uburyo ki tubigarura twifashishije indyo yuzuye igizwe ahanini n'imbuto, kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza.

Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa mu buzima ariko uramenye n'ujya kuyikora ujye umenya uko ubuzima bwawe buhagaze kugirango ubashe gukora ikigero kijyanye n'uko umeze, uyu ni umukobwa uri gusunika icyuma.

Icyapa gifite ibara ry'umweru ryiganje, hari amagambo mato yanditse izina ry'uwitwa NSHIMIYUMUREMYI Viateur andi yandikishije ibara ry'icyatsi kikaba kiri kwamamaza ibijyanye n'ubuvuzi bwifashisha mu kunanura imitsi.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kwiruka imitsi ye yo ku mfundiko yareze, inyuma ye haragaragara ibyo umuntu akwiriye kurya, nyuma yo gusoza iyi myitozo ngororamubiri.

Hari ibyiciro bitandukanye n'uburyo bugiye butandukanye umuntu ashobora gukoramo imyitozo ngororamubiri, hari abayikora biruka, hari abakina imikino irimo umupira w'amaguru, ndetse n'abaterura ibyuma.

Abasore n'inkumi usanga hari ukuntu biyumva cyane cyane abakoze siporo bakambara udupira tubegereye kugira ngo bagaragaze ko umubiri wabo uri ku murongo bitewe n'imyitozo bakoze.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusuzuma indwara umurwayi yaba arwaye, kiri mu cyumba kirimo amarangi y'umweru ndetse nacyo ubwacyo kikaba gisa umweru.

Umuganga w'umukobwa wambaye impuzankano y'ubururu ari kwita ku musore wari uri mu myitozo ngororamubiri agahura n'ikibazo cy'imvune akaguru katavunitse kambaye urukweto naho akahuye n'ikibazo yarukuyemo bari kugenda bahakora.

Imbuto zitandukanye zirimo inkeri, irongi ndetse n'ibindi, hari ibyo kunywa bivuye mu mutobe w'imbuto by'umuhondo ndetse n'akuma bakunze guterura.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ngombwa mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko bituma ubuzima burushaho kugenda neza, uyu ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yo mu bwoko bwa yoga.

Ikoraniro ry'inzobere z'abaganga bari kwita k'umwana bigaragara ko arembye, kugira ngo barebe ko baramira ubuzima bwe. Ni mu cyumba kirimo abantu benshi bigaragara ko harimo indembe ziri kwitabwaho.

Iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri hari ibintu aba atagomba kubura mu buzima bwe, aba agomba kurya imbuto ndetse akanywa n'imitobe ikomoka ku mbuto, akagira utwuma aterura ndetse n'umugozi upima ingano ye.

Umuryango ushinzwe gutabara imbabare, ukorera hirya no hino ku isi kandi nta nyungu ugamije, uwo mu Rwanda urangwa n'ikimenyetso cy'umusaraba kiri mu ibara ry'umutuku nk'uko no ku isi hose icyi ari cyo kirango cyabo.

Umukobwa wambaye umupira w'imbeho w'umutuku werurutse yicaye ku gitanda yagize ikibazo cyo gukora impanuka agira agasebe mu ivi none yagiye kwa muganga kwipfukisha.

Hari agakoresho gatwarwamo imiti, kifashishwa mu gukora ubuvuzi bw'ibanze, karasa umutuku n'ikimenyetso cy'umusaraba, kagomba kubamo imbere karimo bande washyira ku muntu wavunitse, umukasi, ibipfuko, ndetse n'ibindi.

Ni agatanda kazwi nka burankari kifashishwa mu rwego rwo kwimura umurwayi. Aka gakunze gukoreshwa ahantu hakorerwa imikino, umuntu yagira ikibazo cy'imvune bakakamushyiraho bakamusohora mu kibuga.

Iyo turangije kwiruka dukora imyitozo ngororamubiri cyangwa twayikoze mu bundi buryo, tuba tugomba kunanura imitsi kugira ngo nituza kuryama tutaza gufatwa n'ibyo bita imbwa.

Agakarito gapfunyitsemo imiti yifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri, hakaba harimo utuntu ushobora kwipfukisha mu gihe waba uhuye n'ikibazo cy'impanuka ukaba wakomereka.

Umusore wambaye agakora k'umukara bigaragara ko akunze gukora imyitozo ngororamubiri, ariko yagize ikibazo mu ivi hashushanyije ibintu by'ubururu n'umutuku, bigaragara ko ari kuhivuza.

Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa mu buzima ariko ntuzigere ukora ikosa ryo kuyikora utaribuze gufata ibintu bigufasha kugarura imbaraga watakaje, umukobwa wambaye agasengeri k'umweru iruhande rwe hari imbuto aza gufata nyuma yo kurangiza iyo myitozo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara yakenyeye umukandara w'umweru, ari kumwe n'umuganga uri kugenda amumenyereza gutambuka kuko yari amaze iminsi arwaye.

Imbuto ni nziza cyane ku muntu wese ukora imyitozo ngororamubiri aba akwiye kuzifata nyuma yuko ayirangije kuko bituma umubiri wiwe usubizwamo imbaraga maze ubuzima bwe bukagenda neza.

Amazi ni meza mu buzima bwa buri munsi tubayeho, ni byiza ko iyo ubyutse ugomba gufata amazi make ukayanywa ndetse waba ugeze no mu hagati mu munsi ugakomeza kugenda uyasoma.

Abantu bahuye n'ibibazo bakagira ubumuga bwaba ubwo bavukanye cyangwa ubwo bagize bari hano ku isi, ni ngombwa ko tubashakira uburyo ki bagomba gutambuka bifashishije utugare twiza twabugenewe.

Ni umugabo wagize ikibazo cy'imvune akaba yicaye ku gatanda yahinnye ipantaro kugira ngo aho yavunitse bahamuzirikire bande, biri gukorwa n'umudamu w'umuganga wambaye ishati y'umweru.

Umukobwa wambaye kora y'umukara n'agasengeri, akaba ari kwinanura mu rwego rwo gukora imyitozo ngororamubiri, yafashe ivi ararihina aryegereza igituza mu rwego rwo kugira ngo imitsi y'akaguru yumve uko imeze.

Ni ibikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze ahanini usanga ibingibi bikunze kwitwazwa n'abaganga bagiye gutabara aho rukomeye mu gihe basanze umuntu yakomeretse bataramugeza ku bitaro bakabanza kumuha ubwo buvuzi bw'ibanze.

Iyo umuntu agize ibyago agahura n'ikibazo runaka gituma avunika akaguru hari uburyo bwashyizweho bwo gukora ibyiswe insimburangingo ntibyakora neza nk'uko akaguru gakora ariko byagufasha gutambuka.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye ku gatapi, yambaye agakora ndetse n'agasengeri bisa, yafashe ibiganza bye ari gukurura umutwe kugira awukoze ku mano yicaye.

Icyapa kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umukara, hakaba hariho urushinge rwa serenge ndetse n'ikimeze nk'umuntu ariko gikozwe mu binini byinshi bitandukanye.

Ni igikoresho cy'icyatsi cyifashishwa mu rwego rw'ubuvuzi. Ahanini ahabereye imikino cyane cyane umupira w'amaguru, abashinzwe kuvura abakinnyi baba bagafite, uhuye n'imvune bakamushyiraho kugira ngo bamukure mu kibuga.

Iyo bagiye gukora ubuvuzi bwimbitse, haba hari ibyuma byabugenewe bacishamo umurwayi akamenya neza neza ikibazo afite, iyi ni ishusho yafashwe n'icyuma cyabugenewe aho iri kureba mu mutwe w'umuntu.

Ahantu hasa neza h'umweru hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga, hari insakazamashusho irimo umukobwa uri gutanga amabwiriza y'ukuntu bita ku barwayi hifashishijwe ikoranabuhanga.

Umukobwa wambaye agasengeri gato kagaragaza umukondo n'umugongo akaba ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye utumufasha kumva imiziki mu matwi ndetse n'isaha ku kuboko.

Kunywa amazi meza ni ingenzi kandi ni ngombwa kuko bigirira umubiri n'ubuzima bwacu akamaro. Iki ni ikirahure kiri gusukwamo amazi meza, mu gihe umuntu yitegura kuba agiye kuyanywa.

Ikirahure gitetse ku meza ndetse n'ijage y'ikirahure nayo irimo irasukamo amazi, ufite iyi jage ntagaragara, ni igice gito cy'ikiganza cye kirimo kiraboneka.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara, iciyemo umurongo w'umweru ku mpande, akaba yasutamye maze amanika amaboko. Hari umutoza w'umudamu, uri iruhande rwe.

Iyo umuntu agize ibyago agahura n'ikibazo cy'imvune, ni ngombwa ko yihutira kwa muganga kugira ngo bamuhe ibimufasha kugabanya uburibwe, aha hari umuntu utagaragara wambaye ipantaro y'ikoboyi wavunitse mu kaguru k'ibumoso, aho ari kwikanda.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba ari ku itapi y'icyatsi aho yarambuye akaguru kamwe akagashyira inyuma akandi akakazana imbere akajya azana ikirenge akoma mu mashyi.

Abafite ikibazo cy'ubumuga hari igihe bahabwa inkoni kugira ngo zijye zibasindagiza aho biri ngombwa, kuko bakunze kuba bafite intege nke. Aha hari inkoni ebyiri zikora bene uwo murimo.

Umukobwa wari uri mu myitozo ngororamubiri agezemo hagati biba ngombwa ko aruhuka kugira ngo asome ku mazi, yambaye agasengeri n'agakora by'umukara ndetse afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kunywa.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri; yambaye imyenda y'umukara, akaba yambaye n'isaha ku kuboko, ageze mu cyiciro cya nyuma, iyo usoje kwiruka wicara hasi cyangwa ugahagarara ukananura imitsi kugira ngo utagira amavunane.

Mu rwego rwo korohereza abantu bahuye n'ibibazo bagahura n'ubumuga butandukanye, hagiye hifashishwa ikoranabuhanga ry'uburyo nabo bajya babasha gutembera bifashishije utugare.

Ni ibitaro bikiri kubakwa ko hari abakozi bashinzwe imirimo yo kubikora umwe yuriye ku rwego hari uri kumuhereza ibikoresho yifashisha ari hejuru.

Ibiganza bigera kuri bine bikaba bihambiriye, biragaragara ko ari uburyo bwo kwigisha abantu mu buryo ushobora kwivura imvune y'ikiganza ukoresheje bande wizirika.

Abaganga kugira ngo batuvure neza, baba bakeneye ibikoresho bizima kandi biteye imbere, mu rwego rwo kugira ngo bibafashe mu gusuzuma indwara abarwayi bagiye bafite.

Mu gukora ubuvuzi bw'ibanze, hari ibikoresho biba bikenewe ndetse, n'agakapu ko kubitwaramo, akenshi na kenshi ibi bigenda mu mbangukiragutabara, cyangwa se ababa bari ku bibuga bikorerwaho imyitozo ngororamubiri.

Inyubako yabugenewe ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hari ibikoresho abantu birukanka batari kuva aho bari nyamara bikabafasha kugorora imibiri yabo, hari n'utugare abantu bicara bakanyonga nabwo batari kuva aho bari.

Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa mu buzima, abantu twese dukwiye guhagurukira kuyikora kuko ituma twirinda indwara zitandura zirimo umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'izindi, izi ndwara iyo dukoze siporo turazirwanya.

Ubuvuzi buteye imbere usanga bwifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga, iyo umuntu arwaye indwara itagaragara neza, haba hari ibyuma kabuhariwe bifasha abaganga b'inzobere mu gutahura indwara uwo muntu yaba afite.

Umusore wicaye mu busitani ari gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ahantu hamwe akaba yafashe intoki afata amaguru arayarambura ari kugenda akoraho, mu rwego rwo kugira ngo agororoke.

Icyapa cy'umweru kiriho utuntu tugiye mo imbere harimo udupfukamunwa ariko tukaba turi mu mabara atandukanye ni ngombwa ko badupfunika neza kugira ngo tubashe kurindwa imyanda yatera indwara.

Ishu ritarera neza ubona ko ritari ibumba ngo rifatane, riteye mu byatsi byifashishwa n'abavuzi gakondo kuko aricyo rikora.

Ahantu nyaburanga hari ubwatsi butoshye ndetse n'ibidukikije, hari ibishyitsi byavuye ku biti by'inganzamarumbo, biteretseho udukarito dutandukanye, twose tukaba turimo imiti.

Ipapayi ni ikimera cyiza cyane gishobora kuvamo umuti kandi gishobora no kuribwa iri mu ibara ry'icyatsi mo imbere harimo utubuto ikaba iteretse ku meza y'umweru igice kimwe kirakase.

Uducupa tw'umweru turi mu ngano zitandukanye, tukaba duteretse ku meza. Hari dutatu turi ku murongo, kamwe kariho inyuguti ya K yandikishije ibara ry'umutuku, ndetse n'udushushanyo tw'abana.

Turi mu ishyamba ry'inzitane rigizwe n'ibiti byinshi cyane by'inganzamarumbo, ariko hagati muri byo hagiye hari ibyatsi. Ibi ngibi byifashishwa n'abahanga mu by'ubuvuzi gakondo aho babikuramo imiti.

Imiti gakondo yifashishwa n'abavuzi ba kinyarwanda, hari agasekuro gatoya k'uruziga karimo umusekuzo wako. Hari udusahane turiho ibyatsi bigiye gusekurwa kugira ngo byifashishwe muri ubwo buvuzi.

Uducupa duteretse ku meza, twose tukaba turimo imiti ariko ikorwa mu buki kuko inyuma yatwo hari ikiguri cy'inzuki ndetse n'uturabyo duteretse ku meza.

Agacupa karimo umuti kakaba kari mu ibara ry'umweru hariho igipapuro cy'ubururu kigiye cyanditseho amagambo y'umweru ibi bikorwa mu rwego rwo kugira ngo turinde ikirimo mo imbere gikomeze kugumana ubudahangarwa.

Umuravumba ni icyatsi cy'ingenzi cyane kuko kivamo imiti itandukanye, hari iyo bifashisha bavura indwara zo mu kanwa by'umwihariko izijyanye n'ubuhumekero, iki cyatsi rero aho kiri kiba kigomba gusigasirwa.

Ubuki ni kimwe mu bintu bivura indwara nyinshi, hari aho babuhakura bagahita babwifashisha ako kanya hari n'ababucisha mu nganda bakabushyira mu ducupa twabugenewe.

Hari uducupa tw'umuhondo tubiri dufite imifuniko y'umukara turiho igikakarubamba, bigaragara ko aya mavuta ava muri icyo kimera hari n'utundi dutoya tw'umweru turiho ibipapuro by'ubururu.

Abavuzi bavura bifashishije imiti gakondo, bagira uburyo bwihariye bateguramo ibintu byabo, aho bafata ibyatsi bakabitotora bakabishyira mu dusekuru bakaduhondahonda.

Ibibabi by'ibyatsi bishobora kuba bikorwamo imiti gakondo, hari ahantu usanga abantu bangiza ibyatsi uko biboneye ,nyamara byinshi muri byo nibyo bivamo imiti ituvura.

Amababi atoshye y'ikimera cyifashishwa mu gukorwamo imiti yifashishwa n'abavuzi ba gakondo, usanga hirya no hino ibi bibabi bihari ariko utazi kuvura ntago wamenya ko ari umuti.

Ibibabi by'ibimera byifashishwa mu buvuzi gakondo. Ibi ngibi ni ngombwa ko tubisigasira kuko usibye kuba byifashishwa n'abavuzi ba gihanga, binajyanwa mu nganda bigatunganywamo ibinini byifashishwa n'ibitaro.

Amavuta ndetse n'amasabune byifashishwa mu gukurura umusatsi bikunze kuba biva mu kimera cyitwa igikarubamba, iki cyihariye mu kuba gikora byinshi bitandukanye birimo imiti amavuta n'amasabune.

Ibimera bitandukanye biri mu byiciro by'uburyo bwose, bikaba bivura ariko rimwe na rimwe bikoreshwa no mu buvuzi butari ubwa gakondo, kuko bijyanwa mu nganda bigatunganywa bikavamo ibinini dukoresha uyu munsi.

Ibyatsi byinshi bikunze kwifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura indwara, abenshi babona banywa ibinini, ariko ntibamenya ko bishobora kuba byose bituruka mu bimera.

Agacupa karimo imiti ikorwa mu bimera mu buryo butandukanye, ni ngombwa ko iyo imiti imaze gutunganywa inganda zayikoze ziyishyira mu tuntu tuyirinda kuba yakwangirika cyangwa se ikaba yakwandura.

Icyimera gifite amababi manini y'icyatsi cyibisi. Ikingiki gishobora kuba cyifashishwa n'abavuzi gakondo aho bagitunganya bakagikuramo umuti ushobora kuba wavura indwara.

Nyuma yo kubikora mu byatsi n'ibindi bimera, biratunganywa bikajya mu nganda, ubundi bikavamo imiti, imibavu ndetse n'amavuta yo kwisiga, nk'uko bigaragara muri utu ducupa.

Ikibabi cy'umuravumba giteretse ku meza y'umweru, kikaba kiriho utunini twinshi tuva muri uwo muravumba, akaba ari ikimera kivamo umuti uvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ibimera biba biteye hirya no hino ukunze gusanga ari byo bivamo imiti twifashisha ndetse n'amasabune y'aba iyo dukoresha dukora isuku mu kanwa ndetse n'amasabune dukaraba yewe n'amavuta twisiga.

Agacupa karimo amavuta ya arowe, akaba akorwa mu bimera byiganjemo igikakarubamba. Iki kizwiho kuba gikora imiti itandukanye ndetse n'amavuta yaba ay'uruhu cyangwa ayo mu mutwe.

Icyatsi kibisi gitoshye kikaba cyaratewe ahantu mu rwego rwo kugira ngo bacyuhire nigikura bazakibyazemo umuti ushobora kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo akenshi na kenshi si ngombwa ngo bayiguhe ari ibyatsi gusa. Hari inganda zishinzwe kuyitunganya, ubundi zikayijyana ku masoko. Aka gacupa karimo imiti ikorwa mu bimera.

Agakarito k'umuhondo gafite ibara ry'icyatsi riciyemo hagati, hari amagambo yandikishije ibara ry'umukara ndetse n'akanyugunyugu, imbere hari ibinini byavuye muri ako gakarito.

Imiti gakondo abenshi iyo bayumvishe bibwira ko ikoreshwa hano muri afurika gusa, nyamara n'abazungu barayigira ariko bo usanga bayikora mu buryo busukuye kandi buri ku murongo, aho bifashisha ibikoresho biba bisa neza.

Imiti gakondo iri gukomeza kugenda itera imbere umunsi ku wundi kubera ko hashyizweho uburyo n'ingamba bwo kubikoresha ariko mu buryo bwemewe, niyo mpamvu hari ibyatsi n'ibimera byifashishwa n'abavuzi gakondo.

Igikakarubamba kivamo ibintu byinshi bitandukanye. Kivamo amavuta yo kwisiga, isabune ndetse n'umuti wo gusukura mu kanwa. Ikiganza cy'umuzungu gifashe akantu kariho igikakarubamba.

Ikibabi cy'umuravumba ni kimwe mu bimera bizwiho kuba bivura indwara nyinshi yaba izijyanye n'ubuhumekero, cyifashishwa n'abavuzi gakondo ariko n'ab'ubuvuzi buteye imbere bagishyira mu nganda kikazavamo ibinini.

Ikidobo gitoya gifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, cyandikishijweho amagambo ibara ry'ubururu, hariho akamenyetso k'igikeri kari mu ibara ry'umukara.

Ibimera byifashishwa mu kuvura biri mu byiciro bigera kuri bitandatu, bigiye bitandukanye ku mabara hari iby'umutuku, iby'icyatsi, ndetse n'iby'umuhondo.

Mu gukora imiti gakondo hifashishwa ibimera bitandukanye ariko hari iyo bakoraiye mu nganda rimwe na rimwe abavuzi gakondo hari ubwo baba bifitiye udukoresho basekuramo iyo miti ubundi bakayitunganya.

Umugore utagaragara neza wambaye itaburiya y'umweru, ufite imisatsi iboheye inyuma, ari ahantu hacururizwa ibyo kunywa byiganjemo amazi ndetse n'ibindi ariko bidasembuye.

Icupa rifite ibara ry'umweru ryiganje igice kinini cyo hejuru na gitoya cyo hasi birasa umutuku, hariho igipapuro cyanditseho amagambo agaragaza ibirimo imbere muri iri cupa.

Ibibabi by'ibyatsi bibisi biteye ahantu byifashishwa mu gukurwamo imiti, akenshi uzasanga ibi bikoreshwa n'abakora umwuga wo kuvura abantu mu buryo bwa gakondo.

Agakarito gashyirwamo imiti itandukanye ni ngombwa ko iyo imaze gukorwa iba ifite utuntu nk'utu ngutu twabugenewe dushobora kuyishyirwamo kugira ngo izagezwe ku baguzi itarangirika.

Abazungu bafite ukuntu bakora udusekuru twabo bitandukanye n'utw'inaha mu Rwanda ahangaha hari ak'umweru ndetse n'agahini kako bagiye gusekura ibimera kugira ngo babikuremo umuti bawusuke mu turahure turi hano hafi.

Akabido kabamo isabune yo gukaraba mu mutwe. Ikaba ikorwa mu bimera. Gateretse ahantu hari ameza y'umweru ndetse munsi yako hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Igikakarubamba ndetse na avoka isatuye byose bikaba bikorwamo isabune nziza iri hano ivura ibiheri ndetse ikanatuma uruhu rubobera rukamera neza.

Ahantu habugenewe hifashishwa n'abavuzi gakondo batunganyiriza imiti yabo hagiye hari iminzani igena ibipimo by'iyo miti ndetse n'utuntu tugiye duteretse hasi.

Ni uducupa turimo ibintu bitandukanye kamwe karimo amavuta yagenewe gusiga uruhu cyane cyane iyo wazanye utuntu tw'uduheri aya mavuta urayisiga tugahita tugenda.

Iyo inganda zirangije gukora imiti ndetse n'ibiribwa, ziba zaragenwe uburyo ki bwo gufunga ndetse no gutwikira ibyo bintu bamaze gukora, kugira ngo bizagezwe ku isoko bitarangirika.

Ni ibimera bigiye biteye mu mavaze, aho bikurwamo imiti nk'uko amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ari kubivuga mu ibara ry'umukara, igiye rero iri mu moko atandukanye.

Ni urutoki rurimo ibimera byarandaranze bizamuka, aho hari umubyeyi witeye umwitero w'umweru ndetse n'ishakoshi ku kaboko, ari kugenda areba muri ibyo bimera.

Uburoso bubiri buri mu gakombe gakoze mu ibumba, iruhande rwako hari umuti w'amenyo ukorwa mu gikakarubamba, hirya gato hari ikindi giteretse mu gakombe k'umutuku.

Agakombe k'ikirahure gafite umufuniko ndetse n'igipapuro cy'icyatsi, kanditseho ngo "umuravumba" Biragaragara ko karimo umuti, uturuka mu kimera aricyo cy'umuravumba, uzwiho kuvura indwara nyinshi.

Umuganga w'umuvuzi mu bya gakondo aratubwira ko ari umujyanama mu bijyanye n'ubuzima bw'imirire hari udukombe dupanze ku ruhande tw'amabara atandukanye.

Udukombe dutandukanye turimo ibyo kunywa ndetse n'imibavu, harimo ibyo kunywa bitandukanye ndetse tugiye tudahuje amabara hari uw'umutuku, utw'icyatsi, n'utundi.

Mu rwego rwo kugira ngo umuntu azagire imikurire myiza ndetse n'umubiri we ubashe kuba ukora neza ni uko arya imboga, imbuto ibi bikaba ari byo bivamo indyo yuzuye.

Uducupa dutandukanye hakaba hari udufite imifuniko y'umutuku, udufite imifuniko y'umweru ,twose turimo ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, hagiye hometseho udupapuro dutandukanya amoko y'iyo miti.

Ubuhinzi bwa kijyambere, aho usanga abantu bifashisha ibimashini binini bya ruturo, bishobora guhinga ahantu hanini kandi mu gihe gito, aba bantu ni cyo gikorwa barimo.

Agakarito kari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, kagiye kariho amagambo agaragaza ibirimo indani umumaro wabyo, bene utu ngutu tuba turimo imiti.

Agacupa karimo umuti kakaba ari ak'umweru, ashushanyijeho akantu k'umuhondo kameze nk'akana, biragaragara ko uyu muti nkuko amagambo ariho abisobanura ari uwagenewe abana bato.

Ibyatsi byiza bitoshye bimeze neza bikaba biteye ahantu, byitabwaho umunsi ku wundi kuko ari ingirakamaro, ibi ngibi bitanga umwuka mwiza abantu duhumeka.

Ibyatsi bivamo imiti gakondo, abantu benshi bakunze kubibona ariko ntibamenye ko aribyo bishobora kubavura, uretse umuntu w'umuhanga muri byo uba ubisobanukiwe ushobora kubyifashisha mu kuvura abantu.

Icyapa kiriho umukobwa wambaye imyenda y'umukara, akaba yifashe mu mayunguyungu, ari kureba inyuma, akaba iruhande rwe hari c ndetse n'umubare icyenda.

Ikimera kiriho indabyo z'umuhondo n'izumutuku, ukibonye ushobora kugira ngo ni umutako ariko iki cyitwa kapusine gikorwamo umuti uvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti yifashishwa n'abavuzi ba gakondo, igiye iri mu byiciro bitandukanye. Iyi ngiyi barayisekura bakayihonda ubundi ikavamo imiti ivura abantu.

Ibikomoka ku bimera bitunganyijwe neza ubundi bikavamo amavuta, imiti ndetse n'ibindi, ibi biri hano bikaba byarakozwe mu gikakarubamba, umwembe ndetse n'ibindi.

Uducupa dutatu turi mu byiciro bitandukanye tukaba turimo imiti ikomoka ku bimera, harimo kamwe k'umuhondo gashushanyijeho igikakarubamba gafite umufuniko w'umukara.

Ikibabi cy'umuravumba utoshye w'icyatsi kibisi, iki kimera kivura indwara nyinshi zitandukanye cyane cyane izibasira umuhogo, hari igihe unyunyuza amazi yacyo n'ubwo asharira ariko bikagukiza.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe ku kibabi cyo mu giti cy'ipera ritarakura neza impamvu yabyo ari kugaragaza no gusobanura ko iki kibabi usibye kuvamo imbuto gusa kibyara n'umuti.

Umuti wifashishwa mu gukaraba intoki ndetse ukica udukoko duto, ukaba waramamaye cyane mu bihe bya covid cumi n'ikenda, kuko benshi barawugendanaga mu rwego rwo kugira ngo ujye ubafasha kwirinda icyo cyorezo.

Ibikomoka ku bimera byose bivamo amavuta n'imiti bikaba bikoreshwa n'abantu batandukanye. Aha hari uducupa turimo ubuki ndetse n'ibindi byakozwe mu gikakarubamba.

Abavuzi gakondo bakomorewe na leta bahabwa uburenganzira bwo gukora ku buryo bwemewe, ubasanga hirya no hino rero barashyizeho ahantu abantu bashobora kubasanga kugira ngo babahe imiti babifuzaho.

Ni akayetajeri gapanzemo ibintu byinshi cyane, byagiye mu nganda biratunganywa ariko byose bikaba bikomoka ku bimera, byakuwemo amavuta yo kwisiga ndetse n'amasabune bishobora gutuma uruhu rumera neza.

Agacupa karimo umuti kakaba kari mu ibara ry'umweru, kometseho agapapuro mu buryo bw'umuzenguruko kagaragaza ibirimo imbere, ukaba ukorwa mu mbuto uyu muti.

Ibimera ntago bivamo imiti gusa cyangwa se ngo tubikoreshe tubirya, hari ibyifashishwa bigakora amavuta cyangwa se imibavu, aka gakombe karimo umubavu wakozwe mu bimera.

Uducupa dutandukanye twifashishwa mu gushyirwamo imiti yaba ikomoka ku bimera ndetse n'indi, hari uducupa tw'umuhondo turiho igikakarubamba kizwiho kuvamo imiti myinshi.

Ibyiciro bitandukanye birimo amoko y'ibicuruzwa byiganjemo imiti gakondo, ku ruhande rw'iburyo mo hagati hari aka etajeri kagiye gapanzemo ibintu bitandukanye, ndetse ahandi hari ibyatsi n'ibimera bivamo imiti.